Abantu barindwi batatu bicaye bane bahagaze barimo aba mana babiri, aba papa batanu imbere yabo hari ibyapa bibiri bitandukanye biriho ama drapo y'u rwanda n'ikindi kirango kimwe cy'ubufatanye bigaragara ko ari abantu baba Nemba ba national olympic sport community .

Abantu bari mu nama bicaye mu ntebe nziza z'imifariso , hari intebe iteretse mo mashini ya HP , abamama, abapapa, abasore hirya hari ikirango cyanditseho amagambo ya RGB hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru w;umumama .

Akazu gatanga serivise zitandukanye, gatanga serivise za emutiyeni, zo kugura umuriro, kugura amazi, serivise za banki, umuntu urigutambuka wambaye umupira w'ingofero, igikapu mu mugongo, umugabo uri hepfo ye na we urigutambuka wambaye ishati ijya kuba umweru, ikoboyi, inkweto ya safari, moto, imodoka...

Fotokopiyeze isohora impapuro yanditseho irembo, icyo iteretseho cyanditseho irembo, umuryango winjiriramo handitse mo imbere hayo handitsemo irembo, irangi risa n'irya emutiyeni ry'umuhondo, dastibini hanze mo imbere mu nzu hafi ya fotokopiyeze, inkokora y'umuntu iri guhinguka.

Poto iriho insinga z'ubwoko butandukanye bw'amashanyarazi hariho kashipawa: izijya ku mazu y'abaturage; izijya zizana umuriro ku iyopoto hepfo hari inzu ifite amabati y'umutuku igipangu cyiza cy'amatafari meza ahiye umuhanda mwiza,

Umuhanda wa kaburimbo urimo utu vatiri twa taxi voiture, Irimo imodoka iri kuzamuka iruhande rwepfo igaragara ikizuru. Umuntu uri kuruhande rwe hepfo hafi yiyo modoka iri kuzamuka igaragara ikizuru wambaye ipantaro ijya gusana na kacye, n'umupira bijya gusa umuntu wahagana aruguru wambaye ishati mwimbere inyumada yambariyeho agapira n'inkweto y'umweru nipantaro y'umukara.

Ndabona iyo ari ari ifoto bari kwerekana imfungwa ziri muri gereza uuh ndabona wagira bari bari kuzakira bazinjiza muri gereza yego.

Sare nziza y'inama amatara meza, parafo nziza igezweho, abantu bicaye ku matabure bitandukanye, abicaye ku ntebe bonyine bambaye amakanzu, ni abacamanza, inzugi z'impondo.

Ndabona ashobora kuba ari abantu bari mu matora batanga ibitekerezo ukuntu ndabona ari nkacyo kintu cyaba kigamijwe nyine bashaka kugera ku kintu runaka.

Aha ngaha barerekana umuntu wari uri gutora, aha ngaha yari arimo ashyira urupapuro muri ka kantu kabugenewe bashyiramo ijwi umaze gutora, umaze kwandika umukandida ukamushyiramo byari biri kubera mu Rwanda, ndi kureba umuntu wari uri kureba uko ari kubigenza ko atari kuba yashyira amajwi aho atagombye kujya areba ko aha biri kugenda neza.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku ruhande uuduhanda tw'abanyamaguru ndetse hari n'amazu aturiye uwo muhanda hafi y'uduhanda tw'abanyamaguru hari ibiti bigiye bitandukanye bihakikije ndetse n'amapoto y'umuriro amurika iyo bwije.

Abamama bari kurahirira ku idarapo ry'u Rwanda. Umumama witangiye kandi wanakenyeye neza kinyarwanda, bari imbere y'amadarapo y'u Rwanda; na hirya yabo hari sikirini ibagaragaza uko bitangiye. Akaba hakurya hari abari kumva indahiro zabo bicaye ku ntebe...

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo wumukara, ukaba urimo umutari yambaye kasike yumuhondo, ijire ya MTN, ipantaro ijyagusa numumweru ndabona arimo kujyenda mumuhanda, arikujyenda gake gake. ruguruye hari biti byiza, igipangu cyiza kiriho irange ryumweru.

Ndabona aha ari ku muhanda wa kaburimbo harimo ikamyo, moto itwaye umugenzi, umumama uri mu muhanda nyabagendwa w'abo bagenzi, inyuma y'imodoka ndahabona moto na yo itwaye umugenzi izamuka, ni ibyo ngibyo ndi kubona hakurya hari ibiti, ndabona imbere hano umumama ari kugendera hari ruhurura, ahantu hacamo amazi.

Ni ahantu haparitse amatagisi harimo abantu bari kugenda nimugoroba. Amatara yaka umuhondo, ayaka umutuku, urujya n'uruza hagati no hagati, imodoka zirimo abantu za taxi.

N'igikamyo giheka imizigo gitwikirije shitingi y'umukara ihambiriye kiri kuzamuka ahantu k'umuhanda wa kaburimbo hakurya hari jaride irimo ibiti, hakuno hari kantu gato kari kugaragara kaka jaride n'aho.

Arifani moto iriho umumotari ufite kasike ebyiri, imwe ku kaboko y'umuhondo indi yambaye mutwe ,umugabo uhagaze imbere y'iyo moto yambaye ijire yerekana ko ari umushoferi muri arifani ( alfan ) hicayemo umuntu inyuma, imbere nta muntu uhari ,imodoka iri inyuma y'umweru n'indi iri imbere y'ubururu hakurya hakaba amazu n'ibiti.

Ahantu hatwikiriye, abantu, abantu bategerereza, imbere yaho hari amapa meza, ibiti bigiye biteye hagati y'amavi byiza by'udusipure, icyapa cyo kwamamaza gisa n'ubururu, hakurya hari etaje abantu bicaye bagiye bica muri kano kantu gatwikiriye.

O iki ni icyapa cyo ku muhanda kivuga ooo ngo aha hantu nta nzira ihari, cyangwa se mu ndimi z'amahanga sasenike, nicyo bishatse kuvuga, bagishyira ahantu ku muhanda berekana ko aho hantu nta modoka zemerewe kuhanyura, urugero ushobora kuba ari umuhanda unyurwa mu cyerekezo kimwe, wenda ukaba uzamuka ariko akaba nta modoka yahamanuka.

E, akantu gahagaze ka kari icyapa cyerekana ahantu umuntu ageze, cyanditse kg gatanu ave ijana na mirongo inani na gatanu. Hiriya hari inzu isakaje amategura atukura, hari igipangu.

Aha ndikubona nigipangu cy,iza gifite gate urugi rujya gusa nka black igipangu cy,ubatse neza gikorotiriwe na makaro, ibyuma ndabona ipoto inyuzaho amashanyarazi jaride nziza y,indabo ibiti hirya bitanga akuka keza kayunguruye.

Izu nziza zigiye kigezweho zisakaje amabati atukura hajya gusa n'umutuku wamweru ama etge yageretse kabiri hepfo yayo hari ibiti by'amoko atandukanye rwagana na rugu hari ibiti byamutandukanye.

Imashini zihinga imisozi cyangwa zigasiza ibibanza ebyiri, aho ikintu cy'igisambu kizamutse ubona wagira gihinzemo ibigori ruguru yacyo hari amazu, hari amazu yateye irangi ry'imyeru no hirya hari andi ateye irangi ry'imyeru.